Hari umugore, umugore uhagaze yambaye ikanzu, yambaye amataratara, afite amaherena, yambaye isaha, afite igitambaro mu ijosi inyuma ye hari icyapa.

Hari abakobwa, hirya hari abasore barimo barabyina, bakenyeye imikenyero, inyuma yabo hari ingoma ndetse n'abakaraza, hakurya hari abantu bicaye bari mu kirori.

Hari inzu y'ubururu, iyo nzu ni ivuriro, hanze hari abarwayi, hanze hari kandagira ukarabe, hari undi musore uri kurebera mu idirishya ari kureba ibiri kuberamo imbere.

Hari inzu y'ubururu, hari abantu bayihagazeho; ni abagabo gusa. Harimo abambaye amashati, abandi bambaye imipira ndetse n'amakoboyi.

Ni imodoka y'umweru, imodoka ifite amapine, yanditseho unit. Hakurya hari itente, hakurya yaho hari umunara, hari n'abandi bantu bahagaze, iparitse ahantu.

Ni umugabo uhagaze, umugabo muremure, yambaye ijeze y'umuhondo n'inkweto ya oranje yambaye n'amasogisi, ahagaze mu kibuga inyuma yikibuga hari amaterasi.